Mu Rwanda bahinga ibihingwa bimwe byo kwirira n'ibindi byo kugurisha. Mu byo bahinga hagaragaramo inzuzi cyangwa ibihaza. Ibihaza bishobora gukoreshwa nk'imbuto cyangwa bakabigurisha ku masoko bakabona amafaranga bifashisha mu buzima busanzwe buri munsi.

Inyamaswa zo mu gasozi hagaragara mo iziguruka zigira amababa, zimwe zikaba zibera mu mazi, izindi zikaba ku agasozi. Iziba mu amazi hagaragara mo nk'ibishuhe byibera mu mazi. Ariko hakaba n'izindi ziba mu ibyari.